Ni abana batoya bo mu kigero cy'imyaka itanu bo mu mashuri abanza, bakaba bari inyuma y'ishuri bigiramo aho baje kuhakinira mu buryo butemewe ndetse iri shuri rikaba ryubakishije amatafari ahiye.

Ni abana batoya biga mu mashuri abanza, bakaba baba bari kwigira hamwe mu matsinda, bikaba bigaragara ko hari umukoro bahawe runaka ngo bawukorereho, bakaba bagiye bahurizwa hamwe, ngo bigire hamwe.

Ni icyumba kigari cyakusanyirijwemo abana bo mu mashuri abanza, aho baje kuganirizwa n'abana bo mu mashuri yisumbuye, bakaba barimo bababaza ibibazo bigiye bitandukanye bagasabwa kubisubiza.

Ni abanyeshuri baturutse mu bigo bitandukanye bambaye impuzankano zidasa, bakaba bicaye mu ihema aho bakusanyirijwe hamwe biteguriye ibirori runaka, cyangwa se ibiganiro runaka.

Ni inyubako y'ikigo cy'ishuri runaka yubatswe mu buryo bwa kera ugendeye ku madirishya, ikaba yegereye umuhanda ndetse mu gice cy'ahagenza amaguru hari abagore bane bo mu Idini ya Gatulika.

Ni isosi y'uruvangitirane rw'ibyo kurya harimo ibishyimbo ndetse n'imboga, bikaba biri mu bisorori binini cyane, bikunze kugaburirwamo abanyeshuri, mu bigo by'amashuri ndetse bikaba biteretse ku meza mu gikoni.

Mu ishuri rifite imiryango itandukanye, hirya hari ikigega, imbere hateye ibitavu, hirya hari imiti, ndetse n'insinga z'amashanyarazi, imbere y'irishuri hahagaze umwana w'umukobwa, ufite umupira mu ntoki.

Abanyeshuri bambaye impuzangano zabo bicaye hamwe ari benshi, imbere yabo hari abantu, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi, ndetse hejuru hari inzu nini cyane.

Ni abanyeshuri bo mu bigo bibiri bitandukanye by'amashuri yisumbuye, bakaba bari mu cyumba kigari, aho bakusanyirijwe hamwe kugira ngo baganirizwe ku ngingo zitandukanye cyangwa se bigishwe.

Ni inzu y'ahahoze ari ishuri ritakigirwamo ndetse ku nkuta zayo hakaba hari amagambo ari mururimi rw'icyongereza n'amashusho abiri rimwe ry'ishusho ya Afurika ndetse n'iry'uburasirazuba bwa Afurika.

Ni icyapa kiranga ishuri riherereye mu karere ka Huye ryitwa Groupe Scolaire Officier de Butare, kikaba kigaragaza imyaka bakira mu cyiciro rusange ndetse n'icyiciro cyisumbuyeho mu bijyanye na siyanse.

Ni ubukarabiro bwubatswe mu buryo bugezweho aho bufite ahaturuka amazi ahashyirwa isabune ndetse n'aho amazi asohokera.

Ni inyubako ndende zubatswe mu buryo bugezweho zikaba zigeretse inshuro enye, zikaba zisizwe amarange y'umuhondo n'umutuku ndetse zikaba zishobora kubamo abantu benshi kuko zigizwe n'ibyumba byinshi.

Ni inyubako ndende yubatse mu buryo bugezweho ikaba ibamo abantu ndetse ikaba igeretse inshuro ebyiri, ikaba ifite ubusitani burimo imigozi y'ubwanikiro ahanitswe imyenda.

Ni inyubako ifite indabo, imbere yayo kandi ikaba ifite ahaparikwa ibinyabiziga by'abaje babagana by'ubwoko butandukanye, ubu hakaba haparitsemo imodoka ebyiri.

Ni icyumba kirimo ibitabo kigaragara nk'aho ari mu isomero, hakaba hari itsinda ry'abanyeshuri bari kwigira hamwe ndetse n'utubati turimo ibitabo, ameza ndetse n'intebe zo kwicaraho.

Ni imashini ntoya irimo inyandiko ziri mu rurimi rw'Icyongereza, zimwe zikaba ziri mu ibara ry'umukara izindi zikaba mu ibara ry'umutuku zikaba zivuga ku byerekeranye n'ibinyabuzima...

Ni icyumba kigezweho kirimo ikoranabuhanga nk'amatara, mudasobwa ndetse kikaba ari icyumba gikorerwamo ubushakashatsi mu bijyanye na siyanse aho mu tubati harimo ibikoresho byifashishwa.

Ni abagabo bari mu cyumba kigari, aho bari kwiga ku ngingo runaka, bakoresheje ikoranabuhanga ndetse bamwe muri bo, bakaba bambaye amakarita aranga akazi bakora, abandi bakaba ntayo bambaye.

Ni icyumba kiraramo abanyeshuri aho kirimo akabati karimo imyenda, hejuru yaho hakaba ibikapu kikabamo uburiri ndetse n'urukarabiro rw'intoki mu mpande yarwo, hakaba hateretsemo n'imashini n'umukobwa umwe.